Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, abanyeshuri bari hamwe bari fatanye k'urunana bamwe bari guhoberana hagati yabo harimo abagabo babiri. Impande yabo hari urugo rwubakishije ibiti ndetse n'inzu yubakishije amategura. Ibitoki na voka bikikije urugo.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane yubakishijwe amarangi asa umuhondo n'umukara. Harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, bicaye ku ntebe z'ubururu n'icyatsi n'umuhondo, buri wese afite igitabo ari gusomeramo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari ibigega bisa umukara, gisakajwe mu mabati atukura, imbere hari ikibuga kigari cyane, kiriho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye hicayemo abanyeshuri bagera kuri barindwi bambaye impuzankano yiganjemo umukara ndetse n'umutuku, bafite mudasobwa imbere yabo.

Uburezi bufite ireme bumaze kutugeza kuri byinshi, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, hari ikibaho gisa icyatsi, hari ikindi gisa ubururu n'umuhondo hashushanyijeho mudasobwa, hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu bafite mudasobwa iteretse ku ntebe.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako yubakishijwe amategura itewe irange risa umuhondo, impande yaho hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe afite ikaramu ari kwandika mu ikayi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryiza cyane ryubakishije amatafari ahiye, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu bamwe muri bo bahetse ibikapu, abandi bari kugenda mu muhanda bafite umupira bakina.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy’u Rwanda. Inyubako y’amashuri yubakishijwe amatafari manini, isakajwe amabati y’ubururu, imbere y’aho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu ndetse ahandi hasakajwe amategura, hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, imbere yaho hari urugo rwubakishije imiyenzi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ishuri ryubakishijwe amabati y'ubururu, amatafari ahiye, rishyizwe amarange y'umuhondo n'umukara. Imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Bamwe muri bo bahetse ibikapu.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba gitewe amarangi asa umuhondo n'umweru n'umukara, harimo ameza ariho ibitambaro bisa umwe n'ubururu, hari intebe, hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse hari n'igikoresho cya mudasobwa.

Uburezi bwageze kuri bose, ikibuga kigari cyane kirimo abana batandukanye, buri mwana afite igitabo ari kureba amashusho arimo mu gitabo, Hahagazemo umugore wambaye imyenda iri mu bitenge ndetse n'umupira w'umweru, impande yabo hari inzu yubakishijwe amategura.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri babiri bafatanye ku runana, bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, buri umwe ahetse igikapu kidozwe mu bitenge.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryiza cyane risakajwe amabati y'ubururu, imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo y'ubururu, kandi bahagaze mu kibuga.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, hamanitswe ikibaho kiri mu ibara ry'umukara ndetse buri munyeshuri afite ikaramu n'ikayi.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri yubakishijwe mu amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari ubusitani ndetse n'umuhanda uhagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umutuku.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, amabati atukura, irange risa umuhondo n'irisa umweru n'umukara. Hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Hari n'umurezi wabo, uhagaze mu busitani.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, hahagaze abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru, bahagaza mu busitani bwiza cyane kandi hari ishusho ya Bikira Mariya.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryiza cyane ryubakishije amatafari ahiye, harimo icyapa kigaragaza amahame y'intore indangagaciro na kirazira, impande yaho hari ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ritewe amarange asa umweru, hariho ikibaho gisa icyatsi, cyandikishijweho amagambo asa umweru, imbere hari intebe ziriho impapuro n'ameza.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubatse neza cyane, isakajwe amabati atukura, ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara. Imbere yaho hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, bafite icyapa kiriho amagambo asobanuye kaminuza yigisha imyuga iherereye mu majyepfo mu karere ka Huye.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda usashwemo amabuye, urimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, impande yaho hari inzu ikikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Ihuriro ry'imihanda, harimo abantu batatu: umwe ahetse umwana yikoreye n'igitebo, undi ahetse igikapu, bambaye imyenda yiganjemo umweru n'umukara, impande yaho hari amazu ndetse n'ibiti byiza cyane.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo zitandukanye ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, inyuma yaho hari ibiti.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane kuko ituma tugira ubuzima bwiza, abantu b'abakinnyi bahagaze hamwe, bamwe bambaye imyenda itukura abandi bambaye umweru, hari n'undi muntu uhagaze wambaye imyenda y'ubururu, bahagaze mu kibuga.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi. Ishuri ryiza cyane ritewe irangi risa umweru n'umuhondo. Harimo abanyeshuri bicaye, bambaye impuzankano yiganjemo umweru, ubururu n'umukara. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane y'amashuri, isakajwe amabati y'umweru, imbere hatewe amarangi y'ubururu ku nzugi no ku madirishya, mu busitani hahagazemo abantu babiri bambaye imyenda yiganjemo umukara.

Inyubako nziza cyane isizwe amarange y'umweru, harimo utubati twinshi, hahagazemo abantu bambaye imipira yiganjemo ubururu, bari gukoresha mudasobwa imbere yabo.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi. Ikibuga kigari cyane gihagazweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru. Imbere yaho hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, ndetse n'inyuma hari abagore batatu bahahagaze bambaye imyenda y'ibitenge.

Umuhanda mugari cyane, ushashwemo amabuye, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, hakikijwe n'ibiti ndetse hari indi nyubako yubakishijwe amabati y'ubururu.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati y'ubururu. Impande yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashuri asakajwe amabati atukura n'umweru. Ku nzugi hatewe amarangi y'icyatsi. Mu busitani bwabo hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ryiza cyane ririmo abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri munyeshuri afite ikayi n'ikaramu, bicaye ku ntebe zisa ubururu.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishuri rigari cyane rihagazemo umuntu ufite igitabo n'ikaramu, yambaye imyenda y'umweru n'umukara, yambaye n'amadarubindi. Imbere ye hari intebe irambitsweho ibitabo byo mu moko atandukanye.

Uburezi bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umuhondo. Harimo abantu bagera kuri makumyabiri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Buri umwe ari gukoresha mudasobwa.

imyidagaduro ni ingenzi mu buzima. Ikibuga kigari cyane gihagazemo abantu batandukanye bambaye imyenda yiganjemo umutuku icyatsi n'ubururu imbere yaho abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara ikibuga gikikijwe n'ibiti.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane iriho cyapa kigaragaza aho ishuri riherereye, rikaba riherereye mu Karere ka Huye, ahazwi nko mu Majyepfo, ryubakishijwe amatafari ahiye ndetse hakikijwe n'ubusitani bwiza cyane.

Uburezi bukomeje guteza imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri isakaje amabati atukura, impande yaho hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ubusitani bwiza cyane. Hakaba hari icyapa kigaragaza aho iki kigo giherereye, mu Karere ka Huye, mu Ntara y'Amajyepfo.

Uburezi bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye harimo sima itukura, harimo intebe zisa ubururu, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, imbere yaho hari umuntu uhahagaze ufite indangururamajwi uri gusoma ku rupapuro.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati y'ubururu. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru. Imbere yabo hahagaze umuntu usa nkaho ashinzwe umutekano n'abandi bicaye ku ntebe.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gitewe amarangi asa umuhondo, inzugi zifite amarangi y'ubururu. Hariho icyapa kigaragaza ko giherereye mu Karere ka Huye, mu majyepfo. Impande yaho hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye: nka moto, imodoka n'amagare. Impande yawo mu nzira yagenewe abagenzi, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru. Bahagaze inyuma y'inyubako isizwe irangi risa umuhondo. Bamwe muri bo bafite amakaye.

Uburezi bukomeje kutugeza kuri byinshi mu gihugu cyacu. Inyubako nziza cyane yubakishijwe amabati y'umweru, hariho amarangi asa umuhondo n'ubururu. Hatatsweho ibipirizo. Imbere yaho hari umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Hakaba hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane itewe amarangi y'umweru n'umuhondo, harimo intebe zicaweho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, bamwe bafite mudasobwa abandi bafite amakaramu n'amakayi, imbere yaho hari umuntu ufite indangururamajwi.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitoshye. Harimo icyapa kirimo amabara y'umweru n'ubururu. Handikishijweho amagambo y'umweru, hakaba harimo amagambo agaragaza kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura. Hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ubusitani burimo indabo zitandukanye. Harimo umuhanda uri kugendwamo n'abantu bambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Inyubako nziza cyane itewe amarange asa umuhondo ndetse harimo sima itukura, hari ameza ariho ibikoresho bifashisha mu kwimwira, hari inkweto zirambitswe hasi, ziri mu mabara y'umukara, icyatsi n'ubururu n'umweru.

Icyumba gisizwe irangi risa ubururu, hakaba hamanitswe inzitiramibu, hakaba hashashwemo ibitambaro by'amoko atandukanye, hejuru ku buriri hari ibikapu bigera muri bitatu ndetse n'imyenda yiganjemo amabara y'umukara.

Isomero ryiza cyane! Inyubako isizwe amarangi y'umuhondo, harimo utubati turimo ibitabo bifite amabara atandukanye higanjemo: ubururu, umweru, icyatsi n'umutuku; harimo ameza ndetse n'intebe.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umuhondo, harimo intebe zicaweho n'abantu bari gukoresha mudasobwa, bambaye imyenda iri mu mabara yiganjemo umweru n'umukara.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati atukura; imbere yaho hari ikibuga gikinirwamo cyubatse neza, impande yaho hari ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi asa umuhondo n'umukara n'umweru, hagati hari umuhanda ndetse hari n'ikibuga gikorerwaho imyitozo ngororamubiri, hari ubusitani bwiza cyane n'ibiti by'amoko atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isizwe irangi ryiganjemo umuhondo n'umweru n'umukara, imbere yaho hari abantu bicaye mu busitani bwiza cyane n'ibiti by'amoko atandukanye, iyi nyubako ikaba ibarizwa muri kaminuza nkuru y'u rwanda iherereye mu majyepfo mu karere ka huye.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zigiye zitandukanye, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru.

Uburezi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako isakajwe amabati atukura, ikaba itewe irange risa umuhondo, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse hahagaze abagabo babiri n'ikinyabiziga kihaparitse.

Inyubako nziza cyane itewe irangi risa umweru, harimo ameza asa neza harambitseho ibitabo, ibikombe ndetse n'indorerwamo, harimo intebe ziteye impande y'ameza n'ibisokozo.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, zimwe zisa umutuku, izindi zisa umuhondo, hahagaze umumama wambaye imyenda isa umweru.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura, isizwe irangi risa umweru, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo ziganjemo umuhondo n'umutuku, hanitse imyenda iri mu mabara atandukanye, umweru, umukara, umuhondo, hari umuhanda uciye hagati y'inyubako ndetse n'ishyamba, harimo abantu bari kugenda.